Abaturage basobanura ko kwegerezwa serivisi zikorana n'ikoranabuhanga ari ingenzi, kuko bibafasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye ku ikoranabuhanga. Abakora izi serivisi cyangwa se abazitanga basobanura ko basobanurira neza ababagana ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga, kugira ngo babashe gusobanukirwa ikoranabuhanga batunze.

Abakora ubutabazi bw'ibanze bazwi nk'abaganga baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gufasha abarwayi. Twavuga nk'imiti baba igihe bamaze kubasuzuma, igitanda babashyiraho igihe barimo babasuzuma ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubasuzuma harimo nk'inshinge.

Imodoka yifashishwa kujyana abarwayi ku bitaro bigiye bitandukanye izwi nka ambirasi, abayikoresha bavuga ko ari ingenzi kuko bibafasha kugera kwa muganga vuba, bagahabwa ubutabazi bw'ibanze. Ni byiza ko ibitaro byose bigomba kugira iyi modoka kugira ngo bibashe gufasha abarwayi babagana.

Abaganga batanga ubuvuzi bw'ibanze baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gutanga ubuvuzi bw'ibanze, twavuga nk'imiti ibaha umurwayi igihe bamaze kumusuzuma, igitanda bamusuzumiraho, ndetse na mashini yifashishwa mu gushaka imyirondoro yiwe.

Abagabo babiri bambaye ingofero, barimo utugare tw'abavunitse, iruhande rwabo hakaba hari abandi bagabo, bari kubafasha kubasunika, bakaba begeranye n'intebe nyinshi, bakaba baifite n'amazi yo kunywa ndetse n'amvilope mu ntoki.

Abatanga ubutabazi bw'ibanze baba bafite ibikoresho byifashishwa kugira ngo babashe gutanga ubutabazi bw'ibanze, nk'igikoresho bifashisha bari gupima uburwayi bwiwe ndetse n'igitanda bamushyiraho igihe bari ku mapima. Ni byiza ko tugomba kwifashisha ibikoresho byinshi bitandukanye, kugira ngo tubashe kurokora ubuzima bw'abatugana.

Abatanga ubuvuzi bw'ibanze baba bafite ibikoresho bifashisha kugira ngo babashe gufasha abo barwayi. Twavuga nk'imiti babaha igihe bamaze kubasuzuma, igitanda baba baryamyeho igihe barimo babasuzuma ndetse na burankari babatwaraho kugira ngo babashe kubageza mu cyumba kimwe cy'urusuzumiro babajyana mu kindi.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba abarwayi bakirirwamo habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumwakira. Twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, ameza ashyirwaho amakayi ashakirwemo imyirondoro yiwe, na mashini yifashishwa igihe barimo bashaka indi myirondoro yiwe. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe gusuzuma abarwayi bacu.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba umurwayi asuzumirwamo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma neza, twavuga nk'intebe usuzumwa aba yicayeho, imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma, ikaye yandikwamo imyirondoro yiwe, ikaramu ikoreshwa yandika ndetse ni n'ameza ashyirwaho ibikoresho muganga aba arimo akoresha.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari ahabugenewe abarwayi bagomba kuruhukira, igihe bumva bananiwe. Ni byiza ko ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira ubusitani abarwayi bicaramo igihe bagitegereje ababafasha ndetse bakagira n'aho bugama igicucu mu gihe izuba ribishe.

Inzu mberabyombi ni inzu ihuriramo abantu bagiye batandukanye, barimo abagabo, abagore, abana ndetse n'abakecuru, ubwo baba barimo baganira ku biganiro bigiye bitandukanye cyangwa se barimo bakora ikirori runaka, bakijihirije hamwe.

Abatanga serivisi zigendanye n'ubuzima, bazwi nk'abaganga, bavuga ko ari ingenzi gukangurira abaturage kumenya ko bagomba gusuzumisha ubuzima bwabo kugira ngo babashe kumenya indwara barwaye bityo babagane, babashe kubaha inama zigiye zitandukanye, bagomba gukurikiza.

Mu cyumba umurwayi asuzumirwamo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe kumusuzuma. Twavuga nk'intebe usuzumwa aba yicayeho, iyo muganga aba yicayeho, ameza ashyirwaho ibitabo bitandukanye byifashishwa mu gushaka imyirondoro y'iwe ndetse n'imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma.

Mu cyumba umurwayi asuzumirwamo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma. Twavuga nk'intebe usuzumwa aba yicayeho, intebe muganga aba yicayeho, ameza ashyirwaho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kumusuzuma, ndetse n'ibitabo bitandukanye, byifashishwa mu gushaka imyirondoro yiwe.

Icyumba kirimo abagabo babiri n'abagore babiri, hakaba harimo umuzungu umwe, muri icyo cyumba hakaba harimo intebe ndetse n'igikapu, ku gikuta cy'inzu hakaba hashushanyije indwara bavura, umuganga akaba arimo asobanurira uwo muzungu, uburyo bakoramo ndetse n'indwara bavura.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, mu cyumba umurwayi arwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumuha ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, inzitiramubu imurinda imibu ndetse n'amakayi yifashishwa barimo bashaka imyirondoro yiwe n'imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi, ibajyana ku bitaro bigiye bitandukanye, abayikoresha basobanura ko ari ingenzi kubera ko bibafasha kugera ku bitaro bihuse kandi bakabaha ubuvuzi bw'ibanze. Ni byiza ko ibigo byose bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima zigomba kugira iyi modoka kugira ngo abarwayi babashe kugezwa kwa muganga nta kibazo bahuye nacyo.

Abakora umwuga w'ubuvuzi bazwi nk'abaganga basobanura ko ari ingenzi iyo abayobozi baje kubareba, kugira ngo babashe kongera kubibutsa inshingano zabo nk'abaganga, nabo bavuge ibibazo bahura nabyo babafashe kubikemura kugira ngo babashe gukomeza kwita ku buzima bw'ababagana.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima. Icyo ngo umurwayi asuzumirwamo habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma neza. Twavuga: nk'intebe y'izu umwe aba yicayeho, intebe muganga aba yicayeho ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa bari kumusuzuma. Harimo nk'inshinge ndetse n'igipimo kifashishwa bari kumupima umuriro. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe gusuzuma neza abatugana.

Abaganga basobanura ko ari ingenzi gukoresha imyitozo ngororamubiri abarwayi baba barwariye ku bitaro baba barimo babavuriraho kugira ngo babashe kumera neza bityo ubuzima bwabo, baburinde kujya mu kaga kubera kubura imyitozo ngororamubiri ihagije.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba umurwayi asuzumirwamo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira ngo babashe kumusuzuma. Twavuga nk'intebe usuzumwa aba yicayeho, ndetse n'uumusuzuma aba yicayeho. Ibikoresho bitandukanye byifashishwa harimo nk'amakaye yo kwandikamo imyirondoro yiwe, ndetse na mashini yifashishwa mu gushaka byinshi byimbitse byerekeranye n'imyirondoro ye.

Igikorwa cyo kwibuka, ni igikorwa ngaruka mwaka aho haba hibukwa abaturage bajije jenoside yakorewe abatutsi, ni byiza ko kwibuka tugomba kubigira ibyacu ndetse tukirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kugira ngo tubashe kwereka abasigaye ko tubitayeho kandi tubashe kubereka y'uko tukiri kumwe mu buzima bwabo.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima mu cyumba umurwayi arwariramo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumuha ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'igitanda umurwayi aba aryamyeho, umuganga umwitaho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumusuzuma ndetse n'imiti bamuha nyuma yo kumusuzuma.

Abakora umwuga wo kwita ku barwayi, basobanura ko ari byiza kwita ku babagana, kandi bakaba bishimiye akazi bakora, kuko kabagaburira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bakomeza basobanura ko ari byiza ko abayobozi bagomba kuza bakabagenzura, ndetse bakanabafasha kongera kwibuka inshingano zabo nk'abaganga.

Abakora umwuga w'ubuganga baba bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gupima ibizamini by'abarwayi. Twavuga nk'urushinge bajomba mu gacupa kugira ngo babashe kurupimisha indwara zavuye mu bizamini.

Abakora umwuga wo kwita ku buzima bw'abarwayi bazwi nk'abaganga, basobanura ko kuba bafite mashini ari ingenzi, kuba ko bibafasha kwandika imyirondoro y'ababagana, bityo bikihutisha serivisi umurwayi aba yaje kwaka. Ni byiza ko ibigo byose bigomba guhereza mashini abakozi babo kugira babashe kwita neza ku buzima bw'ababagana.

Mu cyumba gipimirwa mo ubarwayi haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uwo murwayi abashe gupimwa neza ndetse abashe no guhabwa ubuvuzi bw'ibanze. Twavuga nk'intebe yicara ho igihe barimo bamupima, intebe muganga aba yicayeho ndetse n'imiti bamuha itandukanye bitewe n'uburwayi bamusanzemo.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'iby'ubuzima, haba ari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira neza abagana, aho mu cyumba umurwayi arwariramo habamo ibikoresho nk'igitanda, intebe ndetse n'ibyo ashyiramo imyanda kugira ngo bimuruhure kwirirwa asohoka ajya hanze.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba umurwayi arwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma neza. Twavuga nk'igitanda aryamaho igihe bari kumusuzuma, intebe yicaraho, umuganga umwitaho ndetse n'imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, bavuga ko ari ingenzi gushyira icyapa aho binjirira kugira ngo babashe kubona ibyo bakora ndetse babashe kubona n'indwara bavura na mituweli bakorana nazo, ni byiza ko bagomba gushyiraho ibyapa kugira ngo babashe kuyobora neza ababagana.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari imbangukiragutabara y'imodoka izwi nka Ambilansi mu ndimi z'amahanga, ifasha abarwayi kubageza kwa muganga, igihe bibaye ngombwa ko aho baje kwivuriza batabashije kubavura. Ni ibyiza ko ibitaro byose bigomba kugira iyi mbangukiragutabara kugira ngo abarwayi babashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Mu Ibigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima mu cyumba abarwayi barwariramo hab harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kubaha ubutabazi bw'ibanze. Twavuga nk'igitanda umurwayi aba aryamyeho, inebe umusuzuma aba yicayeho, inzitiramubu ibarinda kurwara malariya ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumusuzuma n'imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zigendanye n'ubuzima, harimo abantu benshi batandukanye hakaba harimo abagabo, abagore, umuganga n'umwana, ndetse n'umubyeyi hakaba harimo n'inzitiramubu bakaba bicaye ku gitanda.

Mu cyumba umurwayi asuzumirwamo. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma. Twavuga nk'igipimo bamushyiraho kugira ngo bamusuzume indwara arwaye, igipfuko bamushyiraho. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwita ku batugana.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe gishyirwamo abarwayi bagomba kubagwa. Habarimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe kubarwa. Ni byiza ko tugomba kwakira neza abatugana ndetse tukabaha serivisi nziza, kugira ngo tubashe kurokora ubuzima bwabo.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'iby'ubuzima hari icyumba cyabugenewe bapimiramo ibizamini abarwayi baba batanze kubera ko abarwayi bajya kwa muganga baba badahuje indwara, muri iki cyumba haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe gupima ibyo bizamini by'abarwayi, harimo nk'inshinge ndetse na mikorosikope yifashishwa mu gupima indwara zitagaragara.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gupima ibyo bizamini by'abarwayi, harimo nk'inshinge ndetse na mikorosikope yifashishwa mu gupima indwara zitagaragara.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima haba hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze kubera ko abarwayi baza kwa muganga baba barwaye indwara zigiye zitandukanye. Muri icyo cyumba ha barimo ibikoresho bitandukanye, nka microscope yifashishwa mu gupima indwara zitagaragara.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze, kubera ko abarwayi baza kwa muganga baba bafite indwara zigiye zitandukanye. Muri icyo cyumba ha barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira ngo babashe gupima uburwayi bapimye, nka microscope yifashishwa mu gupima indwara zitagaragara.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze muri icyo cyumba ha bari harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo uburwayi bubashe kugaragara muri ibyo bizamini twavuga nka microskope yifashishwa mu gupima indwara zitagaragara.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze. Ni byiza ko ibi bigo byose bigomba kugira iki cyumba kubera ko abarwayi baza bafite indwara zitandukanye zisaba no gutanga ibizamini.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima hari icyumba cyababugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo muganga abashe gusuzuma ibizamini abarwayi baba batanze neza, twavuga nka mikorosikope yifashishwa mu kureba indwara zitandukanye mu bizamini abarwayi baba batanze.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe bari gupima umurwayi ndetse n'igihe bari gupima ibizamini bamuhaye. Ni byiza ko ibigo byose bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima bigomba kugira iki cyumba, kugira ngo buri muganga wese abashe kwita ku murwayi umugana.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bw'abana, gisobanurira ababyeyi ko ari ingenzi kwita ku bana babo babonsa mu buryo bukwiriye, ni byiza ko tugomba kwita ku bana bacu tubaha amashereka kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, kuko aribyo biryo byabo mu gihe batarageza igihe cyo gufata imfashabere.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba umubyeyi abyariramo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'igitanda aba aryamyeho, intebe umubyaza yicaraho ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe bamaze kumubyaza nk'imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abana gisobanurira ababyeyi ko ari ingenzi kwita ku bana babo, kugira ngo babashe kubaha ibere mu gihe gikwiriye bityo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza, bakomeza bababwira ko ari byiza kubukurikirana bareba ko nta ndwara barwaye, kugira ngo babashe kubajyana kwa muganga.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba umubyeyi abyariramo habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumuha ubutabazi bw'ibanze. twavuga nk'igitanda bamushyiraho igihe barimo bamubyaza ndetse n'imiti bamuha igihe bamaze kumukorera serivisi yo kumubyaza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe bakingirizamo abana. Haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gukingira umwana. Twavuga nk'umuganga ufasha umubyeyi kugira ngo abashe gukingira umwana, urushinge rwifashishwa bari kumutera, imiti bamuha igihe bamaze kumutera, ndetse n'ameza n'intebe bakoresha muri iki cyumba.

Ahateraniye abantu bafite icyo baganiraho, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo icyo kiganiro cyabo kibashe kugenda neza, twavuga nk'intebe bakoresha bicara, indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ndetse n'ifatashusho ikoreshwa kugira ngo n'utabashije kuhagera, ubashe kubona icyabaye.

Ishuri ririmo abana bari guhabwa igikoma, aho bicaye ku ntebe, bakaba bafite ameza, ateretseho igikoma, ibasi irimo igikoma ndetse n'ibikombe barimo bakoresha, bavuga ko ari byiza guha abana igikuma cyujuje intungamubiri kubera ko bibafasha mu buzima bwabo, bagakura neza.

Kujyana abana mu irerero ni byiza kubera ko bibafasha kwiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bizabagirira akamaro mu buzima bwabo ndetse bakanarirayo indyo yuzuye bityo bakirinda indwara zitandukanye ziterwa no kurya indyo ituzuye. Ni byiza ko abana bacu tubajyana mu marerero kugira ngo babashe kubaho neza ndetse babashe no kwiyungura byinshi byabagirira akamaro.

Ikigo k'ishuri gikikijwe n'ibiti bitandukanye, mu kibuga hakaba harimo abanyeshuri barimo bakina n'abarimu babo imikino igiye itandukanye, bavuga ko ari byiza gukina n'abanyeshuri babo kubera ko bibafasha kubisanzuraho ntibabatinye.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zigendanye n'ibyubuzima, icyumba umurwayi arwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma neza. Twavuga nk'imiti bamuha igihe bamaze kumusuzuma, igitanda aba aryamyeho ndetse n'umuganga umusuzuma.

Abakora muri serivisi zijyanye no kwita ku buzima bw'abana basobanura ko ari ingenzi kubitaho kugira ngo babashe gukomeza kugumana ubuzima bwabo. Bakomeza bavuga ko ari ingenzi kumenya ubuzima bw'abana babo kugira ngo babashe kubitaho bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza. ni byiza ko tugomba gusigasira ubuzima bw'abana bacu kugira ngo tubashe kubarokora ari bazima.

Ababyeyi barera abana b'inshuke bazwi nk'abana barererwa mu irerero, bavuga ko ari byiza kubatoza gusoma ndetse bakabaha n'indyo yuzuye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza biririnde indwara ziterwa no kutabona indyo yuzuye mu buzima bwabo.

Mu cyumba gifashirizwamo abana barwaye, habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, igihe bari kumusuzuma, twavuga nk'intebe, umurwayi ufite uwo mwana aba yicayeho, ndetse n'umuganga uba urimo umusuzuma, n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira ngo uwo mwana abashe kumusuzuma, harimo n'urushinge bamutera, kugira ngo bamufate amaraso, barebe ikibazo afite.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'uburezi, icyumba abanyeshuri bigiramo abamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abanyeshuri babashe guhabwa uburezi bw'ibanze. twavuga nk'intebe abanyeshuri baba bicayeho, ameza yifashishwa bashyiraho amakayi bakoresha bandika ndetse n'amakaramu bakoresha barimo bandika ibyo babwirwa, ikibaho mwarimu arikoresha yandika igihe arimo asobanurira abanyeshuri.

Guhinga imboga zitandukanye bizwi nko gukora akarima k'igikoni ni byiza kuko bidufasha kubona imboga dukoresha buri munsi bityo tukirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutabona imboga zihagije ndetse zuje intungamubiri mu buzima bwacu. Ni byiza ko tugomba gukora akarima k'igikoni mu ngo zacu kugira ngo tubashe kubaho neza bityo twirinde indwara zitandukanye.

Gutanga ubutabazi bw'ibanze ku barwayi ni ingenzi kubera ko rimwe na rimwe nta mbaraga baba bafite igihe baje kwa muganga, ni byiza ko tugomba kubegera tukabafasha kugira ngo babashe kubona ubutabazi bw'ibanze ndetse bakomeze no kugira ubuzima bwiza.

Abantu bicaye biganjemo abagore bafite amakaye n'amakaramu ndetse hari n'umugabo waje kwisuzumisha, ni byiza ko tugomba kwakira abatugana neza kugira ngo tubashe kuba ubuvuzi bw'ibanze bityo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Abakora umwuga w'itangazamakuru basobanura ko kwigisha urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge ari ingenzi kuko bibafasha mu buzima bwabo, bakirinda kuba banywa ibisindisha bituma ubwenge bwabo buyoba. Ni byiza ko abanyamakuru ndetse n'abandi babifite mu nshingano bagomba gukwirakwiza amakuru bigisha abaturage ndetse n'urubyiruko ko kunywa ibiyobyabwenge atari byiza mu buzima bwabo.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo irimo imiti y'inka, imiti y'ingurube, imiti y'ihene ndetse n'imiti y'inkoko, bavuga ko ari byiza kugana iki cyumba kugira ngo aborozi babashe gukurikirana ubuzima bw'amatungo yabo bityo babashe kugira amatungo meza atarwaye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta, isabune, ji, umunyu, jeri, amavuta yo kwisiga ndetse n'imiti y'abantu harimo iy'umutwe, iyo mu nda, hakabamo na korogati.

Farumasi yiganjemo imiti igiye itandukanye, abantu bakenera iyo barwaye harimo imiti ivura umutwe, imiti ivura mu nda, imiti ivura malariya. Ni byiza ko tugomba kubibagana kugira abashe kuduha ubutabazi bw'ibanze, batugire n'inama zitandukanye ku buzima bwacu.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti igiye itandukanye, abantu bakenera iyo babandikiye kwa muganga bakajya kuyiguramo bityo bakabasha kugira ubuzima bwiza. Haba harimo imiti y'amoko harimo nk'imiti y'umutwe, mu nda ndetse n'igifu. Ni byiza ko iki kigo tugomba kukigana kugira ngo kibashe kudufasha.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi, hanze hakaba hamanitse imyenda, yiganjemo ubwoko butandukanye, amakanzu, amajipo, amapantalo, ndetse hanze hakaba hari n'undi muntu uhagaze, iruhande rwe hakaba hari kandagira ukarabe, hafi y'iwe hakaba hari na moto.

Icyumba kirimo imiti y'amoko yose abarwayi bakenera igihe bagize ikibazo cy'uburwayi, ni byiza ko iki cyumba kizwi nka farumasi tugomba kukigana kugira babashe kuduha inama zitandukanye ndetse babashe no kudufasha mu burwayi dufite bityo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza kandi tuburinde indwara zitandukanye.

Farumasi ikikijwe n'indabo ndetse n'ibiti, iruhande rwayo hakaba hari indi nzu, hanze hakaba hari amazi yo gukaraba, ibyo bita kandagira ukarabe, mu nzu hakaba harimo imiti, abantu bakenera iyo barwaye. Bavuga ko ari byiza kuhagana, kubera ko babasha kubona ubutabazi bw'ibanze iyo barwaye.

Icyumba kiganjemo imiti abantu bakenera iyo barwaye kizwi nka farumasi, kibamo imiti igiye itandukanye abantu bakenera, ni byiza ko igihe twumva twarwaye tugomba kugana kino cyumba kugira ngo abatanga serivisi muri byo babashe kuduha ubutabazi bw'ibanze ndetse banatugire inama zigiye zitandukanye.

Uturindantoki cyangwa se ga mu ndimi z'amahanga, ni ibikoresho byifashishwa igihe umuntu ari gukora mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo abashe kurinda umubiri wiwe kwandura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo arimo akora, ni byiza ko tugomba kurinda umubiri wacu by'umwihariko twambara uturindantoki kugira ngo umubiri wacu ubashe kumera neza.

Icyumba gitangirwamo imiti abarwayi baba bandikiwe kwa muganga, haba harimo imiti myinshi igiye itandukanye abarwayi bakenera, harimo imiti y'umutwe, iyo munda ndetse n'iy'ibicurane. Ni byiza ko tugomba kugana iri vuriro kugira ngo ribashe kuduha ubutabazi bw'ibanze bityo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza.

Farumasi yiganjemo ibinini bigiye bitandukanye bihabwa abarwayi igihe bamaze gusuzumwa, ni byiza ko farumasi zose zicuruza imiti y'abantu zigomba kugira ibinini bigiye bitandukanye kugira ngo buri murwayi wese abashe kubona umuti bamwandikiye.

Farumasi yiganjemo imiti y'amoko yose abantu bakenera iyo barwaye harimo imiti y'umutwe, imiti ivura mu nda, imiti ivura malariya. Abakora muri izi serivisi bavuga ko ari ingenzi kubagana kugira ngo babashe kubaha imiti ikize indwara zabo, ndetse babahe n'inama zitandukanye ku buryo batazongera kurwara iyo ndwara baba barwaye.

Ahateraniye abantu haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo, abantu bitabiriye babashe kumva neza icyabazanye aho ngaho, twavuga nk'intebetabiriye bicaraho amakaramu bakoresha bandika, amakayi bakoresha bandikamo ibyo bavuga ndetse n'indangururamajwi yifashishwa, kugira ngo buri umwe wese uri aho ngaho abashe kumva.

Abayobozi biganjemo abapolisi b'abagabo ndetse n'abagore bakaba bari kumwe n'abazungu, bakaba bahagaze iruhande rw'uruzitiro rukorotirijwe ibyuma ndetse iruhande rwabo hakaba hashushanyije igishushanyo ndetse bakaba barimo bavuga ibyiza byo kuba ari abayobozi ndetse no kwita ku burenganzira bwa muntu.

Icyumba gitangirwamo inama zitandukanye haba harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo iyo nama ibashe kugenda neza, twavuga nk'indangururamajwi yifashishwa, intebe bicaraho ndetse n'imfatashusho yifashishwa kugira ngo buri umwe wese aze kumenya icyabereye aho ngaho. ntabwo twakwibagirwa n'amakaye akoreshwa igihe barimo bandika ibyo bari kuvuga ndetse n'amakaramu bakoresha bari kwandika.

Abayobozi basobanura ko ari ingenzi kongera kwibutsa uru rubyiruko ko ari byiza gukoresha agakingirizo, igihe barimo bakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo birinde indwara zitandukanye, zandurira mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Ahakorewe inama haba ari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo iyo nama i iza kubasha kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho' amakaramu bakoresha barimo bandika, amakayi bakoresha bandikamo ibyo bavuga ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese uri aho ngaho abashe kumva.

Ahahuriye abanyeshuri benshi bakaba begereye munsi y'igiti, iruhande rwabo hakaba hari amatara, hafi y'aho hakaba hari inzu, bakaba bafite igipapuro cyanditseho "Rubyiruko ni inshingano kwirinda virusi itera SIDA" kugira ngo babashe kubaho neza nta ndwara bafite.

Agakingirizo ni igikoresho cyifashishwa mu gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Ni byiza ko abantu bagiye gukora imibonano mpuzabitsina bagomba gukoresha agakingirizo kugira ngo bikingire kwandura indwara zitandukanye, ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Kwegereza abaturage serivisi zigendanye n'ubuzima ni ingenzi kubera ko bibafasha kubona ubutabazi bw'ibanze igihe barwaye, abayobozi bakomeza basobanura ko ari byiza kwita ku buzima bw'abaturage kugira ngo babashe kuburokora bityo babashe kugira ubuzima bwiza, abaturage bakomeza bavuga ko ari ingenzi kubibegereza kubera ko na bo bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

ahateraniye abantu benshi haba ari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo ibyo birori byabo bibashe kugenda neza, twavuga nk'intebe bifashisha bicaramo, imfatashusho yifashishwa kugira ngo buri umwe wese aze kubona ibyabaye n'udahari, ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri muntu wese aze kubasha kumva.

Ahantu hateraniye abantu haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe gusobanura neza icyabazanye aho ngaho, twavuga nk'intebe bifashisha bicara ndetse n'indangururamajwi yifashishwa kugira ngo buri umwe wese abashe kumva n'ifatashusho yifashishwa kugira mgo ntutage abashe kumenya ibyabereye aho.

Mu cyumba basozumiramo umurwayi, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira umurwayi abashe gusuzumwa neza, twavuga nk'intebe umurwayi aba yicayeho, intebe muganga aba yicayeho ndetse n'ikayi ikoreshwa mu kwandika imyirondoro y'iwe kugira ngo babashe kubatandukanya bose.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza ababyeyi kwita ku bana babo igihe babyaye ndetse n'abafasha bakabitaho kugira ngo babashe gusigasira ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Ni byiza ko tugomba gusigasira ubuzima bw'umubyeyi n'umwana kugira abashe kugira ubuzima bwiza bityo babashe kubaho neza nta kibazo bahuye nacyo.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranywe mu buvuzi bwa kizungu. Ni byiza ko iyi miti tugomba kuyikoresha, kubera ko ari ingenzi kuko idufasha gukira indwara turwaye. Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'uwo muti. Ni byiza rero kuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara turwaye.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye, usanga ari ifu cyangwa se ari amazi ariko yose yakozwe mu byatsi. Iyi miti ni ingenzi kuyikoresha kubera ko idufasha kwivura indwara zitandukanye ziba zarananiranye mu buvuzi bwa kizungu.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu. Iyi miti iba yiganjemo ibyatsi bigiye bitandukanye. Ni byiza ko tugomba kuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'abahanga mu kuvura indwara gakondo babashe kudusobanurira byinshi byimbitse ku ndwara tuba turwaye.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, imiti gakondo iba iri mu bwoko butandukanye bitewe n'uwo muti uwo ari wo, ariko imyinshi ikaba ikorwa mu byatsi, ni byiza ko tugomba gukoresha iyi miti kugira ngo tubashe kubona ubuvuzi bw'ibanze bityo ubuzima bwacu bukomeze kubaho neza.

Umuravumba ni umuti gakondo uvura indwara zitandukanye nk'ubugendakanwa. Ni byiza ko uyu muti tugomba kuwukoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye uyu muti wabasha kutuvuza ndetse tukagana n'abavuzi b'abahanga mu bigendanye n'ubuvuzi gakondo bakabasha kudusobanurira byinshi byimbitse ku muti witwa umuravumba.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye imyinshi iba ari amazi, indi ikaba ari ifu ariko yose yavuye mu byatsi. Abakora imiti gakondo bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kuyikora nk'isekuru bifashisha bari kuyisekura ndetse n'umuhini.

Abakora umwuga w'ubucuruzi bw'imiti gakondo basobanura ko ari umwuga mwiza kubera ko bibafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bakabasha no kurokora ubuzima bw'abantu barwaye. Bakomeza basobanura ko imiti gakondo iba yiganjemo ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuti ukeneye.

Abakora imiti gakondo bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe gutunganya iyo miti neza tuyibone ari ifu cyangwa se ari amazi. Bifashisha ibikoresho harimo nk'isekuru yo kuyisekuramo ndetse n'umuhini bakoresha igihe barimo bayisekura.

Abakora ubuvuzi gakondo, bifashisha ibikoresho bitandukanye, kugira ngo babashe gutunganya, imiti y'ibyatsi bayivanemo ifu. Twavuga nk'isekuru bakoresha bari kuyisekura, umuhini bakoresha, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo babashe kuwukora neza.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye akenshi iba ifu indi ari amazi ariko yose ikorwa mu byatsi, iyi miti ivura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko tugomba kuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye.

Mu cyumba umurwayi arwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma neza. Twavuga nk'ibikoresho muganga aba afite byo kuza kumukoresha arimo amusuzuma, imiti itandukanye baza kumuha igihe bamaze kumusuzuma, igitanda aba aryamyeho igihe barimo bamusuzuma ndetse n'inzitiramubu imirinda imibu.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa kugira ngo babashe kwibutsa abaturage ko ari ingenzi gusigasira ubuzima bwabo, twavuga nk'amazi bakaraba igihe bavuye ku bwiherero ndetse n'igihe binjiye kubera ko baba bafite indwara zitandukanye bakuye hanze.

Abakora umwuga w'ubuvuzi wo kwita ku barwayi ku bigo nderabuzima bashimishwa n'akazi bakora kubera ko kabaha ibyo kurya bya buri munsi ndetse bikanabatungira umuryango wabo, bakomeza bavuga ko ari ingenzi kwakira neza ababagana kugira ngo babashe gukira neza ndetse babahe n'inama zigiye zitandukanye mu buzima ndetse no ku ndwara barwaye.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima mu cyumba abarwayi barwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abarwayi babashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze. Twavuga nk'ibitanda abarwayi baryamaho, supaneti cyangwa se inzitiramubu zibafasha kwirinda imibu ndetse n'amatara abamurikira igihe ari ngombwa nka nijoro ndetse n'icyitwa vandalateri kibasha kubaha umuyaga.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba cyabugenewe bakiriramo abarwayi igihe bategereje ababafasha, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abo barwayi babashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'intebe baba bicayeho, amafishi baba bahawe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa nk'imashini yo gushaka imyirondoro yabo ndetse n'ibindi bikoresho.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo, haba iyo kunywa ndetse n'iy'ibinini, yiganjemo iy'amatungo y'inka, ingurube ndetse n'inkoko, abahagana bavuga ko ari byiza kubera ko bibafasha kubona inama zitandukanye ndetse n'imiti yo kuvura amatungo yabo.

Mu cyumba umurwayi asuzumirwamo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma uwo murwayi neza, twavuga nk'intebe umurwayi aba yicayeho, intebe muganga aba yicayeho ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumupima indwara abaje kwisuzumisha.

Mu cyumba abarwayi barwariramo, haba harimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda, amazi, inzitiramubu, utubati two gushyiramo ibikoresho byabo bigiye bitandukanye, bavuga ko ari byiza kubitaho kubera ko bibafasha gukira neza.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi zigendanye n'ubuzima, harimo n'ibigo nderabuzima, haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kwakira aba bagana neza. Twavuga nk'intebe, abaje kwisuzumisha bicaraho, icyumba bakirirwamo ndetse n'ubwiherero na kandagira ukarabe bakarabiriraho, igihe bavuye mu bwiherero.

Abahanga mu bijyandanye n'ubuvuzi bw'amatungo y'inka basobanura ko ari ingenzi kubegera igihe abo babona amatungo yabo y'inka yangiritse afite uburwayi butandukanye kugira ngo babashe kubaha inama zitandukanye bityo amatungo yabo abashe gukomeza kugumana ubuzima.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, icyumba bakiriramo abarwayi abamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kubakira neza. Twavuga nk'intebe babicazaho igihe barindiriye ko bahabwa ubufasha ndetse n'igishushanyo mbonera kigaragaza indwara bavura ahongaho kwa muganga.